Aha rero ni ahantu nawe ushobora kuza gufata ubwishingizi igihe ukoze impanuka ku kinyabiziga cyawe kikangirika; nta bushobozi ushobora guhita ubona bwo kugikoresha. Ariko hano ho bahita bakugoboka ako kanya, noneho yaba ari inzu yo ihiye bikaba akarusho.

Ni byiza gushaka ubwishingizi kuko burafasha. Niba ufite imodoka, inzu ndetse n'ibindi iyo byangiritse barakugoboka. Nkuko ubibona uyu musore mwiza cyane, hano ni ikirango cy'icyatsi urabona ko na we yasetse rwose, agasatsi keza n'ubwanwa buringaniye, nakugira inama yo kubagana bakagufasha.

Hari ahantu henshi batanga ubwishingizi ugasanga buragufashije mu buryo butandukanye ndetse byaba ibigo by'imari, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ibigo by'abihaye Imana n'ibigo bito rwose ibyongibyo barabifasha ugasanga igihe bagize ikibazo barabatabaye.

Ubutabazi bw'ibanze cyangwa ubwishingizi ngombwa ko nawe ugomba kubagira, kuko hari igihe wenda ushya cyangwa se ukavunika bikaba ngombwa ko ukujya kwivuza mu bitaro biri uguca amafaranga mensh,i ariko iyo ufite buragutabara nk'uko ubbiona kuri iki kirango, uyu ni umuganga rwose ahita akwitaho.

Nk'uko babivuga hano urabibona ugomba gufata ubwishingizi bw'ikintu runaka cyawe rwose kugirango, ejo ni cyangirika uzabone aho ubariza naho nutabujyamo ndakurahiye ushobora gushya ukaririra mu myotsi.

Ufite umushinga runaka wajya uwukorera ibintu byo kwamamaza nk'iki kirango kiriho umwari mwiza rwose kiragaragaza ahantu batangira ubwishingizi bwizewe kandi bunagezweho bwaba ubw'imodoka, inzu ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko ugomba kugira ubwishingizi bwawe, aho ukorera, ibyo ukora, imodoka yawe, inzu yawe, ni byiza cyane kuko biragufasha, nk'uko ubibona kuri iki kirango kiriho umugabo witwikiriye ubona ko nta kibazo yagira n'iyo ino mvura ikubye yamunyagira ariko afite ibyo navuze.

Ni byiza kwigirira ubwishingizi kuko burafasha cyane aho inzu yawe ishobora gushya cyangwa imodoka, ugasanga ubuze uwo uririra ugiye kuguza guza mu nshuti n'abavandimwe ariko bikanga hano rero nicyo gisubizo cyawe nkuko nabikubwira iki kirango kirabyerekana rwose ibyo navuze.

Aha ni ahantu ushobora kuza ugafata ubwishingizi bw'inzu yawe, imidoka, ivuriro, amashuri, ndetse n'ibindi n'ibingo by'imari byikorera. Nk'uko ubibona kino kirango kirimo utubara tw'ubururu, umweru hejuru ndetse n'umukara, amagambo nayo yandikishije ayo mabara ubona, inyuma hari inzu y'ibirahure nziza cyane.

Gufata ubwishingizi ni ingenzi kuri buri muntu wese niyo nama nabagira, kuko birafasha, binakemura ibibazo runaka igihe bahuye nabyo, urugero: niba ufite nka miliyoni nka zirindwi ukaziguramo inzu gashya, ejo bara kugoboka. Ariko urumva iyo ntayo ufite biba ibibazo.

Ushobora kujyaho ukaba wareba imyirondoro yawe cyangwa se ibindi bintu runaka ushobora gukorera kuri banki yawe runaka uka wakishyura amazi, umuriro cyangwa se kwishyura abakozi bawe igihe bagukoreye nk'uko ubibona rero n'abasore bambaye.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, harimo idirishya, ibirahure, n'ibyuma ku mpande kumagambo yanditse y'umukara mu rurimi rw'icyongereza.

Ni byiza ko nawe bayoboka uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga cyangwa aplication bitandukanye nk'uko ubibona rero, iyi ni na yo aho wifashisha mu kuvana amafaranga runaka uyohereza ahandi cyangwase wishyura ibindi bintu bitandukanye birimo amazi n'umuriro.

Application amabanki yashyizeho ni nziza cyane kuko zaradufashije abazikoresha nk'uko ubibona iyi na yo ni yo rwose ushobora kujyaho ukohereza amafaranga cyangwa ukayakira, ukishyura amazi, umuriro, abakozi cyangwa se ukagurira ibindi bintu runaka ku ikoranabuhanga.

Aha haramamazwa imodoka iri mu bwoko bwa yundayi, kandi iyi modoka ikaba ifite ibara rya giri, aha hari uturango tw'urukiramende twanditsemo amagambo yo mu cyongereza ako hejuru karimo amagambo ari m'ibara ry'umukara usigirije, akandi karimo amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ari mu gakiramende k'ubururu, biragaragara ko iyi modoka iri kwamamazwa iri k'isoko.

Ni byiza ko nawe wajya ukoresha apurikasiyo(apprication) runaka, bitewe na banki ukoresha kuko bituma udakandagura ya mibare ngo ube wakibeshya, hano ho uhitamo ibyo ushaka. Rero nakugira inama nawe, yo kuyishyira muri telefone yawe.

Ubu rero ni uburyo ushobora kuba nawe wakoresha application ya banki runaka biterwa n'iyo wahisemo, ukagenda ugafunguza konti hanyuma akagufasha kubikora byose nk'uko ubibona uyu Hirwa hubert ari byo yari yagerageje arimo arishyura amafaranga runaka.

Ama apulikasiyo rero atandukanye niyo yakemuye ibibazo twari twugarijwe nabyo, hari igihe wakandaga akanyenyeri nimero runaka bikanga ugasanga birogeye neza neza nta mafaranga ubonye, ariko ubungubu zarabikemuye aho ushobora kujyaho ukareba ibyakozwe n'ibyo wakoresheje.

Uyu muntu rero urabona ko yihangiye imirimo yubaka akantu gasa neza, hirya urahabona udutako rwose tugiye dutandukanye inyuma ku gikuta hariho amarange y'umukara n'umweru ubona ko ari ibintu byiza cyane nakugira inama nawe nuko wajya uza no guhahira rwose bisa naho bano babicuruza.

Uyu musore yihangiye imirimo nk'uko ubibona, ameze neza cyane. Amashati, amapantaro n'inkweto urabona ko atasabiriza. Hari n'ikirahure wireberamo ukareba niba uberewe cyangwa ataberewe, ugahitamo ibyo ushaka ubona byakunyura nyine bijyanye n'uko ungana.

Iri ji isoko rikorera kuri murandasi, rikaba ricuruza ibikomoka ku mata ibyo tuzi nka yawurute rikaba ryorohereza abanyarwanfda kuba babona ibicuruzwa ku buryo buboroheye . Icyo usabwa ni ugufata terefone yawe ugasura urubuga rwabo ubundi ugatumiza iyo yawurute ikakugeraho neza ukayikoresha.

Aha haramamazwa imodoka iri mu bwoko bwa yundayi, kandi iyi modoka ikaba ifite ibara rya giri, aha hari uturango tw'urukiramende twanditsemo amagambo yo mu cyongereza ako hejuru karimo amagambo ari m'ibara ry'umukara usigirije, akandi karimo amagambo ari mu ibara ry'umweru ariko ari mu gakiramende k'ubururu, biragaragara ko iyi modoka iri kwamamazwa iri k'isoko.

Abantu benshi bashobora kuvukahira udusigo rwose twifashisha ubudi mu ntebe runaka ndetse n'ibindi rero iyo turyamyeho nta gurwara amajosi cyangwa ngo urware ibikanu hafi ugerageza urebe nawe.

Ibi rero n ibikapu byiza cyane ubona ko ari bibiri bikeye, umuntu ahekamo rwose kera abana nibo babijyanaga ku ishuri, batwaramo amakayi, cyangwa abandi baba bagira nk'ahantu runaka bagiye gusura i wabo, bakajyanamo imyenda yo kuzajya bahindura.

Umwari mwiza ubona ko aseka neza yambaye umupira w'imbeho, agashakoshi, telefone mu ntoki bisa naho ari kubaza ngo yishyure akoresheje ikoranabuhanga, imbere ye hari; ikayi, mudasobwa, n'undi uri kumwereka uburyo ashobora kuyikoresha yishyura.

Aha rero ni ahantu ushobora kuza ukigurira imyenda y'ubwoko bwose nk'uko ubibona ibintu byageze ku mbuga nkoranyambaga cyane . rUabibona rero aha ducuruza udupira dukeye umutuku, icyatsi n'andi mabara rwose biterwa n'ibyo ushaka.

Aha ni ahantu bagurishiriza ibintu imyenda cyangwa bakanayikodesha bitewe n'ibyo ushaka iyo nta bushobozi ufite uraza ugatanga make bakayiguhereza, ukazayigarura hari amakote rwose inkweto ndetse n'ibindi byinshi cyane ubaye ufite ubukwe wabagana bagufasha.

Ni byiza ko urabona abantu bayobotse ikoranabuhanga basigaye bacururiza ibintu byabo kumbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu hatandukanye uyu rero nawe nibyo yagerageje urabona harimo imipira amapantalo ndetse n'ibindi byinshi ushobora kugura.

Utu rero n'utuntu bambara ku maboko dutandukanye mbere badukoraga mu bitenge bishaje cyangwa se bagafata karindari bakazikora ugasanga tumeze neza umukobwa wabonaga atwambaye ukavuga uti uyu niwe mwari ariko ubungubu usanga batakibyambara byaracitse.

Aha rero ni ahantu ushobora kuza ukagurira imyenda, inkweto ndetse n'ibindi, nk'uko ubibona hariya biranapananze amasogisi n'amakabutura. Uyu nk'uko ubibona rero ibintu byateye ni ugukorera ku mbuga nkoranyambaga bifasha abantu benshi nk'uko tubibona rwose, ahangaha niba nkurikije uko mbibona ni kuri fesibuku umuntu yari yabishyize kugira ngo uzaza ngo abishime ahite abigura.

Nawe rero ushobora kwihangira imirimo ugucuruza ibintu runaka nk'uko ubona uyu nguyu yabigenje, ucuruza amatapiyo mu nzu n'ibindi bifite ubwoya, ibitenge nk'uko bibona biramanitse ushobora kukigura ukagenda akakidodeshamo ikanzu, ipantaro biterwa n'uburyo ubishakamo.

Iri kote uraribona? Wagira ngo ryakorewe mu Rwanda kuko niho hazwi ibi bintu runaka, nyuma yaho urahabona indi myenda itandukanye, aha rero ni ahantu ushobora kuza ukigurira rwose , ugacagura cyangwa ugatanga itegeko bakakudodera ibintu ushaka.

Ikanzu nziza cyane ubona ko ikeye inyuma iciyemo utuntu dutatu nkuko ubibana nawe rwose hirya hari akabati k'umweru ndetse ubona ko karimo n'ibindi bintu bitandukanye amashikoshi naho imbere wakubita amaso ni inkweto zitandukanye n'umuntu arikumureba izo yambara.

Aha rero ni ahantu ubona imodoka nyinshi cyane zo mu bwoko bumwe gusa urebye neza bishoboka ko hari imyaka itandukanye wenda ku muntu uzi iby'amamodoka nibo babimenya, hari abantu babibona ko umwe ari gutungira urutoki und,i hakurya urahabona amatage meza cyane akeya.

Nk'uko ubabona rero, ni beza cyane bamaze gukorana bacuruje imodoka imwe mu bwoko bwa nisani niba ndi kureba neza, inyuma yabo hari inzu nziza yubatse n'ibirahure ubonako bikeye cyane n'imodoka nyinshi.

Iyi modoka rwose niyo mu bwoko bwa hoho nkuko ubibona isa umweru irakeye iracyari nshyashya amapine ni mazima rwose, ushatse kuyigura nawe wayigura, rwose iragabura, yikorera amabuye, umucanga, amatafari n'ibindi.

Iyi ureba ni modoka yo mu bwoko bwa Hyundai isa umweru ihagazeho umugabo imbere wambaye agapfukamunwa, hakurya urahabona ikirango cyaho kiri mu mabara y'ububuru ndetse n'indi y'umukara. Ni byiza ko nawe ushobora kuza kwigurira iya make, biterwa n'ubushobozi bwawe.

Aha ni ahantu rero heza ubona ko hubakitse, hasa ukuntu, imodoka eshatu nziza rwose zo mu bwoko bwa Yundayi, ipantaro nziza y'ubururu yambaye, ameza y'kirahure ateretseho amazi ndetse n'ikayi n'ikaramu, ubona ko ari ibintu bisa neza.

Izi ni modoka rero ubona ko zose ari enye, ni ubwoko bwa yundayi, hejuru zanditseho izina umwuga bakora, vorukano hakurya urahaboa umugabo wambaye umupira mwiza w'ubururu ndetse n'undi bari kumwe mwambaye agapfukamunwa izi rero zitwara abantu mu buryo bwa rusange zikaba zabavana mu ntara imwe zibazana mu mujyi wa Kigali cyangwa zibavana zibajyana ahandi.

Aha ni ahacururizwa imodoka zo mu bwoko bwa Hyundai nkuko uzibona hari izitwara abantu ku buryo rusange cyangwa iz'abantu ku giti cyabo ndetse urabona insinga z'amashanyarazi ziri kwambutsa umuriro ahantu runaka amabati ahasakaye ngo ziticwa n'imvura cyangwa izuba zigacuya cyangwa irange rikavaho rikomoka.

Iyo ni imodoka yo mu bwoko bwa Yundayi Sonata ku batayizi, ariko hari n'abayizi bayindusha rwose ni urwererane, iragurishwa miliyoni umunani, ubaye uyafite rwose wayigurira, ariko nahita nkugira inama y'uko wahita uyijyana mu bwishingizi.

Abasore babiri rero ubona ko umwe yambaye neza gusa niba nitegereje neza bamwita keve umwe wambaye ikote acuruza imodoka iyi rero niba ndi kuyibona isa umukara ni toyota hayirande bisa naho aje kuyicuruza aje kuyereka umuntu ngo ayigure.

Iyi fuso rero nk'uko ubibona yaguzwe mu Kagera motozi ,ariko hakurya urabona umuntu uri gutambuka, aba ni abagabo babiri rwose ubona ko bishimye gukorana bombi, umwe ufite agakapu k'umutuku yambaye ingofero, undi nawe urabona ko ari kureba aho bari bari gufotorera.

Aha ni akagera bizinesi gurupu nkuko mubibona ni ikirango cyabo ABG kumwe nundi muntu ari kumuhereza icyapa afite agakapu k'umutuku inyuma yabo hari fuso rwose ubonako ari ibintu biryoheye ijisho bano rero bacuruza amamodoka bayavana hanze bayageza mu Rwanda bakayaha amashorampari.

Inyubako igaragara nk'ishuri mbere yayo hamanitse idarapo rigihugu cy'u Rwanda hanze y'ikigo hari umuntu mu muhanda ufite igitabo mu ntoki ugenda yihuta ageze hafi y'icyapa.

Umuntu wabukereye urabona ko bisa nkaho yaje gufata amafaranga mu ntoki aho yarayafite mu ikoranabuhanga ariko abandi rero bafite ibitabo byinshi imbere yabo ndetse n'amakaramu ubona ko bari kuyamuhereza, ararira nta muntu ufite ikibazo uraza bakagikemura.

Umubyeyi urabona ko yari yaje kubitsa cyangwa kubikuza biterwa, hano rero uraza ugatanga amafaranga mu ikoranabuhanga bakayaguha mu ntoki cyangwa ukayatanga mu ntoki bakayagwa mu ikoranabuhanga. Ibi nibyo bafasha abantu batandukanye, uri kubibona hariya harimo umudamu ukuze uri kubitanga.

Iyi ni imashini rero ifasha abantu kubara amafaranga, kuko ntabwo babivamo igihe bagiye kubara imwe kuri imwe ndavuga inote, ahubwo barazifashisha, ugasanga zihutishije gahunda yari gukorwa nyine ibintu birangiye vuba, banatashye kare.

Hano rero uhaza iyo byakomeye, ushaka kuba wafata amafaranga mu ntoki, ukayatanga ahandi hantu runaka, nk'uko ubibona uyu mugabo usa n'ukuze, yari ari gutanga ikimuranga, inyuma ye hari umukecuru na we afite telefoni n'agashakoshi.

ayo ni amasambusa gusa agira ubwoko hari ayi ibirayi hari nayi inyama aya rero arafasha cyane akorwa mu ifarine atekwa yifashishije amavuta ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye iyo ukoresha amakara ndetse n'agazi biterwa n'icyo ufite hafi Aho ngaho arafasha cyane rero nk'umuntu uyarya mu gitondo ukayanywesha icyayi agenda yumva ameze neza.

Uyu mubyeyi abona ko yishimye cyane yambaye imyenda y'ibitenge. Afite telefone mu ntoki, utwo kwinaguza igihe yanduye, kandi hari itasi irimo ikiyiko akorogesha ashyiramo agasukari. Hirya urahabona ari ho bashyira ibyo gukonjesha birimo fanta, jus ndetse n'ibindi bishobora kuza nawe ukareba.

Uyu ni umukobwa mwiza cyane ubonako afite imiringa ku matwi, umusatsi uboshye ukuntu, umwenda umurinda imbeho aripfumbase ari kumeza aha rero ari bacuruza amata, fanta, amazi ndetse n'ibindi kandi ibyo byose ni ingenzi kubuzima bwacu bwa buri munsi.

Ni byiza kumara kurya ugahita wihanagura ku munwa kuko hari igihe ugenda nk'amavuta akuriho, amandazi wenda igihe ari yo wariye ndetse n'ibindi. Nawe niba uri umucuruzi warihangiye imirimo, utu tuntu ntabwo twabura rwose. Jya ugomba kudushyira ku meza yawe, ku buryo usoje ahita atubona hafi.

Umusore rero ubona ari kumwe nundi ufite akabido k'umweru asa naho ari kumuha envelope irimo ibintu bitandukanye gusa imbere yiwe urahabona amasambusa, biscuit, amata ndetse n'ibindi byinshi birimo fanta, jus, amazi ushobora kuza rero ukihahira ibyo ushaka ukabitwara.

Irindazi ni ryiza rirafasha nkuko ubibona eiba rikozwe mu amavuta, ifarini ,amagi, isukari, amata ndetse n'ibindi byinshi rero hari na ako kwihanaguza wenda mu igihe wanduye ku munwa urabona ko riteretse ku isahani isa neza cyane ni byiza nawe kugira ibintu bifite isuku.

Aba rero urabona ko ari umwana wambaye umupira w'umweru, umusatsi ubushye ukuntu afite urupapuro arimo arasoma ndetse n'undi mugabo hirya urikumusobanurira, hari undi uhagaze wambaye agakoti y'icyatsi n'ingofero, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'imashini isohora impapuro cyane ko ubana ko hari na bank ihakorera.

Uyu mwana rero nk'uko mubibona arishimye cyane, ameze neza aryamye ku gipupe kiwe, hasi hari ikirango ubona ko cyerekana ko ushobora kwishyura ukoresheje itumanaho cyangwase ikoranabuhanga rya MoneyGram ukohereza amafaranga hanze cyangwa ukayakira.

Abantu bakoresha telefoni ni bo basobanukiwe bino bintu, ku murongo w'itumanaho rya MTN nk'uko ubibona hano hari mobile money account byumvitanisha ko ari ibigize umutungo wawe, kohereza amafaranga, kugura ibyo guhamagaza cyangwa se kwishyura amazi, umuriro n'ibindi.

Ubu rero ni uburyo bwiza iyo uri kureba amakuru ajyanye n'ibyo wakoze cyangwa ibyo wiriwemo byose, ku ikoranabuhanga cyangwa telefone yawe, ukareba ibyakozwe niba hari ibyo wakoze wibeshye ukabikosora cyangwa ugasaba ko babikoso igihe birenze ubushobozi bwawe.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane birafasha, nk'uko ubona na bano rero nibyo barimo bafite ni abasore babiri ibipapuro byinshi cyane biri imbere ya bo ndetse n'amakaramu mudasobwa, hirya hari ibiseke hakurya yaho urabona indabo zihatatse rwose urabona ko ari ahantu hasa neza, hejuru urahabona n'udutara tubamurikira igihe bwije.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga birafasha cyane ubu ngubu byara noroshye usigaye uvana amafaranga kuri banki uhita uyagezaza kuri nimero y'umuntu runaka, bidasabye we kuyivaniraho ngo ujya kuyohereza ku yindi nanone, ariko ubu ngo ushobora guhita ubikorera icyarimwe agahita agerayo banakwereka imyirondoro yiwe ukareba ku buryo aho wibeshye ushobora guhita wakosora.

Ni byiza kwishyura ujoresheje ikoranabuhanga kuko birafasha rero byakemuye ibintu byinshi cyane aho ushobora kugura ikintu cyangwa ukakigurisha bitewe, hano rero ushonbora no kuvunjishiriza amafaranga ku ikoranabuhanga runaka, nkuko ubibona uyu nguyu yarari gutanga amadorari ibihumbi icumi bayamwereka mu manyarwanda ukuntu aba ameze.

Kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ni ibintu biri kugenda bitera imbere kuko ni nayo si turi kugeramo, ntabyo kuvuga ngo ugiye gutwara amafaranga mu ntoki kuko uba ufite ibibazo byo kuba wayata cyangwa ugahura nabambuzi bakayakwaka, nkuko ubibona rero iki ni kirango kibyerekana handitseho ngo sanguza sipine n'inshuti zawe, ndetse ibintu byose nyine nawe utsindira amafaranga magana atanu kuri buri nshuti utumiye.

Uburyo bushya bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga cyangwa apurikasiyo bwakemuye ibintu byinshi cyane nkuko ubona uyu musore witwa ganza arimo arohereza amafaranga niba ntibeshye neza, gusa sibyo byonyine bishobora gukorwa kuko ashobora kwishyura umuriro ndetse n'amazi akoresheje ibindi bivugagwa biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, anateruye telefone ye rwose nta kindi kintu ari gukoresha nkuko ubibona.

Aha rero, iyi ni inyemaza bwishyu y'uko wamenyekanishije umusoro, byarangiye uyu muntu rero ubona ko UWIRAGIYE Pacifique, nawe nashyize itafari ku bikobwa remezo runaka byo mu gihugu kiwe, ibi rero bifasha urubyiruko ndetse n'abana bazabyara kuziga neza no kuzagenda ahantu hameze neza.

Umusoro wawe ni ingenzi nk'ubu nguyu furujase munyaneza urabona ko amaze kubikora rwose ubungubu abashyize itafari rikomeye ku bitaro, cyangwa se imihanda n'amashuri muri rusange abana bigamo.

Ni byiza kumenyekanisha uyu umusoro nk'uko ubona ko uyu umuntu yabikoze, iyo utabikoze wowe usanga nyine uhemukiye abantu benshi cyane, urugero niba hari kubakwa ibitaro bitatu, hubakwa kimwe cyangwa imihanda ugasanga ni yo mpamvu yadindiye. Rero nakugira inama yo kujya ubikora.

Aha rero ni ahantu wavunjishiriza amafaranga ushobora kuba ufite amanyarwanda ukazana bakaguhereza amarundi, waba ufite amagande ukazana bakaguhereza amadolari cyane ko aba anahenze, gusa nawe bigusaba kwitwaza menshi. Kuko iyo ugiye mu kindi gihugu wenda ushobora kuza ukayatanga, bakaguhereza ayo icyo ugiyemo.

Aya rero n’ amafaranga amayero icumi akoreshwa mu burayi ubona ko nyine aracyeye cyane ameze neza rero ushaka kuyavungisha uraza ukayatanga bakaguherezayo igihugu ushaka cyangwa se ugatanga ay'igihugu uvuyemo bakaguhereza ayaho ugiye

Iyo ufite amafaranga atari ayo mu gihugu cyawe, ni byiza kujya kuyavunjisha kugirango uyakoreshe imirimo yawe buri munsi cyangwa se agutabare. Rero nawe nakugira inama y'uko niba nawe ufite amashinwa wayazana, amagande byose barabivunja nta kibazo ukabaho neza.

Aya mafaranga uko uyabona harimo inote ndetse n'ibiceri, ubaye uyafite ukagera ahantu bayavunja barabigukorera bakaguhereza ay' igihugu urimo, cyangwa wajya mu iki gihugu cyayo, ukayakoresha nta kibazo, kuko naho harakora nk'uko tubizi rwose.

Aha rero ni ahantu ushobora kuza ukavunjisha cyangwa ukavunja, kimwe muri ibyo ufite amafaranga y'abanyamahanga uzara ukayatanga bakaguha ay'igihugu urimo bashaka wayakoresha cyangwa waba ufite atahuye n'aho agiye kuyatanga naho.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ugahindurira amafaranga yawe aho ufite amaromani, bakaguha abanyarwanda waba ufite amanyakatari bakaguha ayo ushaka, amadolari ndetse n'andi. Nk'uko ubibona rero iki ni ikirango cyabo kiri mu mabara y'ubururu amagambo yandikishije umweru n'umuhondo, hakurya urahabona icyo bareberaho amashusho, mudasobwa ndetse n'ibindi.

Uyu mugabo rero urabona ko yari yaje muri banki kubikuza bari kumuhereza imishandiko y'amafaranga izikishije fimbo, harimo iz'igihumbi, iza bitanu hakurya urahabona abandi bagore ndetse uri kuri mudasobwa nyine asa naho ari kure ibintu runaka.

Birashoboka kuza ukaVumvisha amafaranga ugatangayo ayo ufite bakaguhayo ukeneye, ni byiza kuko birafasha gutabara buri muntu wese ushaka kuva mu gihugu kimwe akajya mu kindi ukabona akagize imbogamizi zayo.

Ni byiza ko nawe wajya ugana ishami rya banki runaka igihe utabashije gutunda umurongo aho bakorera, nk'uko ubibona hano harimo amashami menshi, harimo wesitani uniyoni, aho bakoherereza amafaranga akava mu mahanga akagera mu gihugu urimo, bipiyara banki ikorera mu Rwanda iyi ni iy'abantu bose, ndetse zawadi limiti zifasha abantu kwakira no kohereza hanze y'ahantu bari nyine.

Ushobora kuba umaranye imyaka n'imyandika amafaranga ariko utazi uwo wayavunjishiriza, rero nujya ubona bino byapa bimeze gutya, urabona ni mu mabara y'umuhondo, handitseho ko bahindura amafaranga bitewe na'yo uzanye, hari akabara k'icyatsi keza cyane, rero hano baragufasha.

Aha rero ni ahantu habera ivunja n'ivunjisharyo mu buryo bworoshye cyane ndetse ukanohereza amafaranga mu buryo bworoshye nk'uko ubibona hari za wesitani yuniyoni monegaramu ndetse n'izindi nyinshi, aka ni akazu urabona ko gafuzwe gakoreramo umuntu kari mu mabara y'ubururu ndetse n'ibindi birango bigiye bisa mu mabara atandukanye.

Kwihangira imirimo ni byiza nk'uko ubibona uyu muntu yakoze intebe rwose umuntu ashobora gushyira muri salon agahita avuga ati uwatanze amafaranga afatika, ziri mu mabara y'umweru, ndetse n'umukara akabara k'umuhondo gatambitsemo ameza urabona ko ziteretse hasi ku gitaka.

Aka rero ni byiza kukagira iwawe kuko karafasha cyane, nk'uko ubibona hari utuzana amazi tugezweho rwose dutatu turabagirana urumuri rukubitaho rukaguruka, hasi hari akandi gateretseho urabonako amazi yamanutse ariho ameneka atanyanyagira.

Ni byiza ko nawe niba uri umubaje uba ugomba gukora ibintu byihariye, iyi rero niba ureba neza niba atari imeza ni intebe rwose nkurikije njyewe uko mbibona, ariko nawe wagerageza ukirebera wabona uyivumbuye ukavuga nawe.

Aha rero ni ahantu heza ushobora kuza kuruhukira nkuko ubona hari uburiri buke cyane gusa ntabwo navuga ko haza abantu gusa ahubwo tujye tureba n'ababikize. Ababaji nibo bakunda kibikora urabona ari igitanda cyiza kiriho imisego n'akandi kantu ko kwicaraho igihe ubyutse.

Utuntu tumye ushobora kumanika mu nzu abantu bahagera bakavuga ati, uyu muntu rwose azi guhitamo ibintu byiza . Nawe urabibona kamwe karimo amabara y'umweru, akandi karimo amabara y'igitaka kandi ubona ko ari ibintu biryoheye ijisho.

Intebe nziza niyo abantu bakunda kuryamamo bakajya binyeganyeza nk'uko ubibona hari ushyira amaguru ijya inyuma ikajya imbere, hakurya hari izindi nziza cyane z'imisego ubona ko zikeye n'inzugi zikoze neza rero nawe nakugira inama yo kuyigura.

Intebe n'utubati uyu muntu nibyo yishingiye rwose aragenda arabikora arabicuruza, hakurya urahabona izindi z'imisego ziba zicyeye ziri mu mabara atandukanye, umweru, umutuku, biterwa niyo waje gukoresha rero nawe niba ufite gahunda waza hano barazigira .

Amashashi abiri ya kaki ateretse ahantu ndetse n'amacupa y'amazi atandukanye. Amashashi akaba adufasha kugira ngo tubikemo ibintu twahashye ndetse amazi akaba adufasha kugira ngo tuyanywe hanyuma turusheho kugira ubuzima bwiza, tukayifashisha no mugutekesha ibintu bitandukanye.

Ni intebe nziza cyane, urabona ko ikoze mu rubaho, ikoze ukuntu rero, aba ni ababaji bazikora kandi biragabura rwose. Ni byiza ko nawe wazabyiga cyangwa ukareba ukundi kuntu wiga kubikora nyine, unyuze mu bundi buryo, hari ukujya ku ishuri, hari no kwiga imyuga.

Ushobora kuza kugura intebe zitandukanye ndetse n'ibara ushaka ryose bakarigukorera nkuko ubibona hari n'ameza rwose abantu baraho n'utwana twayo hakurya urahabona imodoka ihaparitse nziza y'ubururu ndetse n'umuntu ukora izo ntebe hakurya urahabona na moto nziza.

Ibi nibyo bita kwihangira imirimo nk'uko ubibona akazi k'ububaji karagabura cyane iyi meza iriho ikirahure, urabona utubuye mo hasi ibintu bitatse bisa neza ndetse n'utundi ubona ko tugiye dutambitse n'ubudutoboye, intebe zo sinakubwira reba hakurya utubati turiyo nawe rero ni byiza ko wajya ubyikorera.

Ntekereza ko nawe wajya wihangira ndetse ugakora n'utuntu dutandukanye, abandi badahuriyeho bose nk'uko umwe ngo yabikoze gakoze mu mbaho gafite utwenge dutandatu mbese urabona ko bisa neza hakurya urabona n'andi mazu nayo ameze ukuntu nyine yubatse bisa naho yihangiye imirimo.

Rero aha hantu ureba hamanukira abantu bafite amaguru mazima niko nabyita. Rero niba nawe ufite inyubako itandukanye, washyiraho ahoabafite ubumuga bwo kutagenda banyura. Nk'uko ubibona hano ni inyubako nziza cyane irimo na bya bintu bizimya umuriro.

Inzu nziza ubona ko ikeye, iriho ibibindi bigiye biteyemo indabyo, ubona ko zizanira akayaga rwose, hasi hari ibirahure ndetse no hejuru hari amadirishya ubona ko afunguye, nawe wayiyubakira ufite amafaranga. Aha rero bisa nk'aho ari muri hoteri.

Si byiza ko nawe igihe ufite amafaranga wajya utemberana numuryango wawe cyangwa

Iyi nzu rero urabona ko ikeye ni nziza cyane igeretse inshuro nyinshi, ku bantu bahazi hano ni mu mujyi niba ntibeshye iyi ni hoteli rwose ugezemo uhasanga ibyumba byiza, ibiryo byiza, ubwogero ndetse nyine nawe ubashije ariko ufite amafaranga ntago wajyayo ntayo ufite.

Aha noneho ushobora kuza ukaruhukira nkuko ubibona hari uburi bwiza bushashe amashuka y'umweru amatara meza hakuryara marido n'intebe zo kwicaraho tereviziyo ushobora kurebabera indirimbo cyangwa firime indabyo ziteguye aho ushobora guhahagarara ukareba umujyi wose uyitegeye.

Icyayi gikozwe mu ikawa ni cyiza cyane. Nk'uko ubibona rero ni agakombe gakeye k'umweru kameze nk'itasi, hasi hari n'akandi gateretseho kameze nk'isahani, hakurya urahabona habona ibirahure bitunganyirizwamo ibindi binyobwa bitandukanye.

Ni byiza ko nawe ujya ukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane koga buriya birafasha, birambura imitsi, bituma nyine ugabanya ibibazo wari ufite mu mutwe birafasha cyane nk'uko ubibona hano ay'amazi arasa neza rwose nta mwanda urimo.

Ugize ejo hezo ukazigamira umwana wawe ku buryo ushobora kugira ikibazo, yamafaranga bakayamuhereza cyangwa se waba uri umusore warabikoze hakiri kare, ukagenda bagahita bayaguhereza ushobora kubaka nibwo buryo bashyizeho. Urabona ko hano rero ni urubyiruko ndetse n'abandi bari kubyamamaza rwose bari kumwe n'inzego z'umutekano niba ndi kureba neza.

Kujya muri hoteri ni byiza cyane kuko biragufasha niba ufite gahunda yo kuba wava hanze ukaza ukajya mu gihugu runaka, uba ugomba kuzisangayo rero, urabona hari uburi bushasheho amashuka y'umweru ndetse n'umuhondo, intebe zo kwicaraho igihe ubyutse wenda uri mu kazi runaka ufite imashini ushaka gukorera mu rugo, hakurya urahabona ahantu heza uba ureba, amazu, ibintu byiza cyane bikeye nawe urabibona.

Iyi inzu ni nziza cyane nkuko uyibona hano ifite amagorofa ari hejuru rwose hariho ibirango byiza cyane by'ubururu, hasi urahabona rwose ni ahantu ushobora kujyayo ugafata ubwishingizi bw'ikintu runaka yaba inzu yawe, imodoka ndetse n'ibigo by'amashuri, n'amavuriro ni byiza ko nawe ugomba kubigira rero birakugoboka igihe waguye hasi.

Ubwishingizi ni bwiza cyane nkuko ubibona hano iyo urwaye ushobora kugutabara bakakuguza amafaranga ugatanga makeya gusa ariko bisaba ko nawe uba ubakorera bakajya gukata make k'umushahara cyangwa se ukagira nawe ibindi wumvikana nabo kugira ngo bayiguhereze bakorera muri iyi nyubako nk'uko ubibona hariho n'ikirango cyabo rwose.

Ahantu rero umuntu aba agomba gukorera ibuntu runaka birimo gusaba ubwishingizi ni ahangaha. Ushobora kuhagana rero urabona ko hakeye n'amakaro meza, ibirango hatatse neza ndetse n'indabyo, ibirahure byiza cyane. Urabona ko ari ahantu ushobora kugenda ukaganira n'umuntu nta kibazo gihari.

Kwibona nahoho ni heza cyane iyo uhageze bakwakirana ubwuzu nk'uyu mugabo wambaye ikositime hakurya ndambashati'mweru bisa naho bari kuwusobanuza ibintu runaka nyine batumva bakwakirana yombi akagusobanurira abafite iryo tanga ukabitanga ubundi bakarwohereza ubwishingizi.

Aha rero ni ahantu ushobora kuza gufatira ubwishingizi bakora amasaha yose nk'uko ubibona umuntu ari gutambuka gusa bwari bwijije ni mu kagoroba nk'uko ubibona amatara ari kwaka hakurya urahabona ibirango byaho rwose biriri mutubara tw'umweru ntabwo wahayoberwa wahageze ni ku muhanda hari utwuma tuhakorotiriye.

Gufata ubwishingizi ni ingenzi kuri buri muntu wese kuko birafasha cyane nkuko ubibona rwose iyi ni inzu hakurya urahabone imodoka, rero nkawe waza ufite ikibazo runaka baragikemura, ufite ibyo ushaka gushinganisha ibigo by'amashuri, n'ibigo by'abihayimana n'ibindi cyane baraguha.

Ni byiza ko nawe wafata ubwishingizi bw'ikintu runaka. Urugero imodoka, inzu, ibibanza ndetse n'ibindi; kuko igihe byangiritse, hano urabagana bakagufasha. Urugero niba ihiye bahita bakubakira indi, niba imodoka yawe yangiritse bahita bagufasha kuyikoresha cyangwa bakakugurira iyindi.

Aha rero ni ahantu ushoboraho kuza ugasaba ubwishingizi butandukanye burimo ubw'ibinyabiziga imodoka, ubw'amatungo, ubw'amashuri, ubw'ibitaro ndetse n'ibindi bitandukanye ushobora kuza rero ukagerageza amahirwekunda cyangwa se ukareba ibyo bagusaba niba ubyujuje.

Aha rero ni ahantu hatangirwa ubwishingizi nk'uko ubibona nabo bagerageje kwegereza abaturage ahantu bashobora kubona ubufasha bwihuse, rero urabona hari ikirango cyabo kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hari amakaye imbere yabo hakurya hari n'undi nawe ubona ko yunamye afite ibyo ari gusoma.

Uyu mugabo rero ubona ko yambaye ishati irimo uturongo tw'ubururu n'umweru n'umutuku, afite ikirahure bisa n'aho ari kwinywe agafanta ke ka koka kora dore icupa yamuteretse ku meza yicaye mu ntebe izengurutsa, imbere urahabona ibitabo, amakayi, bisa naho yari yaje nawe gusaba ubwishingizi runaka nyine nk'uko bibona hari undi uri kumwakira amubaza uko byifashe.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ugafata ubwishingizi bw'ikintu cyawe runaka. urugero: inzu cyangwa se imodoka, ubutaka, ibigo by'amashuri ndetse n'ibindi byinshi ushobora kuza ukabihafatira rwose bakazakugoboka igihe bihiye cyangwa byangiritse.

Ubwishingizi ni ngombwa nk'uko ubibona. Umwana wawe iyo ugize ikibazo runaka akarwara indwaro udashobora kubona amafaranga yo kuvuza biba ikibazo ariko iyo ufite rwose bukugoboka ibyo bishobora nko kujya kwivuza mu bigo nderabuzima byihariye ugasanga biguciye menshi ariko wabwekana ugasanga baragabanyije.

Gufata inguzanyo ni byiza cyane kuko biragutabara ushobora kuba warashijije ikibanza ukora zo uko ucyubaka, nakugira inama rero yo kugana banke ukoresha kuko bagufasha ariko ntuzigere ufata ijyanye no kuba wagura ikintu runaka cyo kwishimisha kuko uzi ko utazakishyura iki ni ikirango rero kibyerekana nk'uko ubona uyu musore nawe abyishimiye.

Gufata ideni bishobora kugutabara igihe utameze neza cyangwa udahagaze neza mu mufuka wawe kubera ko nk'urugero niba ushaka kubaka ikibanza ugasanga nt'amafaranga ufite ahagije ushobora kugufasha rero wabagana nawe bakakubaza ibikenewe byose ukabitanga kuri iyi banki ryose.

Aha rero urabona ko hameze neza ntacyo hatwaye, hari intebe nziza cyane z'imikara, n'inyerekanamashusho irimo akana n'ibipirizo rwose by'ubururu ndetse n'umweru bihamanitse, hejuru hari udutara twiza cyane ubona ko dukeye.

Gufata inguzanyo byagukemurira ibibazo byinshi, wowe ubapfa gushiruka ubute gusa uziko uzayishyura ntabwo ari byiza gufata iyi modoka kandi uzi ko ishobora guhita ipfa ako kanya itazanakubyarira umusaruro, ahubwo reba neza niba ibyo ukeneye koko bikeneye inguzanyo hanyuma ujye kuyaka bayiguhe.

Banki nziza cyane wabitsamo ndetse ukajya no gufata inguzanyo runaka ni iyingiyi. Aba umusore n'inkumi urabona ko bisa n'aho bafite urufunguzo rw'ibyo bishimiye bamaze kugeraho, rero nawe nakugira inama ugafata inguzanyo ariko uzi kuzishyura neza ntuzafate iyo utazishyura.

Aha niho ushobora kuza ugafatira inguzanyo ni byiza birafasha kuko ikugoboka aho rukomeye, urugero niba inzu yawe ihiye cyangwa ikindi kintu runaka ugasanga kirangiritse, imodoka n'ibindi ushobora kuza rero bakagufasha rwose. Ntutinye kandi ugeregeze amahirwe yawe ushobora kubona ibyo ushaka.

Inzu nziza cyane yubatse, ifite utwuma. Hari abantu batatu bari kugana, aho iri muri banki rwose. Ifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, hejuru hari aho bategera cyangwa bakinira imikino y'amahirwe.

Urabona ko hari abantu benshi cyane hari abategarugori ndetse n'abagabo, hakurya habona inyerekamashusho y'umukara iyingiyi bareberaho umupira ndetse n'ibindi bintu. Aha rero ukahabona umusore uri kureba agacupa k'amazi n'ibindi.

Ni byiza ko nawe wasaba inguzanyo mu buryo bworoshye ugakora ikintu runaka kiguteza imbere. Kuko barayitanga rwose nk'uko ubibona kuri uyu mugabo afite ibintu ari kwandika ,ndetse n'undi mubyeyi utegereje ko bamusobanurira. Iruhande hari imodoka , inyuma hariho inyuguti igaragaza izigisha amategeko y'umuhanda nyine no gutwara.

Ni ngombwa kujya gufata inguzanyo ugatanga imyirondoro yawe, aho uva, aho uba, aho ukora, icyo ukora, ayo winjiza ku kwezi k'ukwezi, ukwishingira ndetse n'abandi. Ibyo rero bifasha gutanga amakuru yawe igihe bagukeneye bakakubona.

Gufata ideni bifasha wowe ndetse n'abana uzabyara kuzatera imbere vuba kandi byihuse, ariko ujye ufate iryo uzabasha kwishyura niyo nama kugira, nk'uko ubibona iki kirangoro muri agisesi banki hariho umugabo uri kumwe n'umwana ubona ko baseka bishimye.

Kujya gufata ideni ni byiza cyane, biragutabara cyangwa se bikakugoboka aho rwakomeye, nk'uko ubibona, uyu mukecuru asa n'uwishimye cyane, yafashe ideni ku mbuto ziwe runaka kugira ngo igihe bizangirika azabashe kwitabaza abandi.

Iri ni isoko rero riherereye mu mujyi wa Kigali ku bantu bahazi, ubonako ryubatse neza ni narinini pe, buri muntu urikoreramo wese atunze umuryango, n'utawutunze arimo ariyubaka. Aba ni abamotari baba bategereje kuvana abantu bamwe babajyana ahandi, ndetse urabona ko baba bari gutambuka nta kibazo.

Hano hanwe nawe, ushobora kuza nawe ukahagura imyenda itandukanye y'abana, nk'uko ubibona harimo udukabutura twiza, udupantaro ndetse n'ay'abakuru arimo rwose ushobora kuza kwiyahira cyangwa se nawe ugatangira umwuga wo kuba wakwicururiza kuko biragabura bituma udasabirira.

umusore ubona asa n'umuntu uri kwikinira game, niba ndi kureba neza yambaye umupira w'ikipe yo muri esipanye yitwa efuse Baliserona, inyuma ye hari ibindi bintu acuruza bitandukanye harimo ibitenge, imyitero ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye hakurya urahabona abandi babyeyi bicaye nabo bari gucuruza.

Iri rero ni isoko rya nyarugenge riherereye hariya mu mujyi rwose urabona ko abantu ariho baza kurangura harimo ibyiciro bitandukanye imyenda, ibiribwa ndetse n'ibindi nkuko ubibona rero bamwe bari gupakurura bikoreye ibyo bari baje kureba.

Umubyeyi mwiza cyane ubona ko yihangiye umurimo arimo aracuruza imbuto zirimo imyembe, amaronji, indimu ndetse n'ibindi byinshi uko ubibona afite ibintu mu mutwe biziritse umusatsi arimo arapfunyikira umwari wazanye akantu ko kubitwaramo ubonako nawe ameze neza yishimye yambaye agapfukamunwa.

Ni byiza rero kujya mu isoko ugahaha, kuko hari igihe usanga ibiciro biri hasi cyane nk'uko ubibona hano harimo ibitunguru; iby'umweru ndetse n'iby'umutuku, inyanya, imyembe, ibirungo ushobora gusanga ahongaho rwose, amavuta, ndetse n'ibindi byinshi nk'uko ubibona uyu musore w'agapira k'umukara ategereje uza kumuhahira.

Nk'uko ubibona ku bantu bahazi iri ni isoko rya Nyarugenge, hariho ibirango byinshi cyane bimwe biri mu mabara y'umuhondo ndetse amagambo yandikishije umweru hasi hari iby'umutuku wareba imbere hari imodoka nyinshi cyane ubona ko ziri gutambuka buri imwe ifite aho agiye.

Hano hari uhabona hakoreshejwe ibintu bitandukanye, hari abagabo babiri nkuko ubibona ko bariha nandi ari gucuruza inyuma ye hari ibiseke ibintu ushobora gushyira mu nzu nyine bikaba imitako, hagasa neza cyane bishobora kuza kubigura niba ufite n'ubukwe vuba rwose byagufasha.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ukazadesha imyenda cyangwa ukayigura bitewe harimo ibitenge, amashuka, ibiringiti byo kwiyorosa ndetse n'ibindi byinshi. Hari ababidoda rero urababona batonze umurongo n'imashini zabo ndetse n'undi wicaye ku gateba ategereje bazaza kugura ndabona imipira myiza cyane umuntu akorana imyitozo ngororamubiri.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ukahagurira ibintu bitandukanye birimo imyuko, uduseke, utuntu tuboshye nyine twa kinyarwanda nkuko ubibona harakeye yewe n'inketo wazihabona nyine zimwe za cyera, ibi ni ibntu rero ushobora kujyana ndahabona n'ibindi intore zifashisha waba ufite mubukwe rwose waza ugatwaraho bicye.

Aha rero urikubona iri ni isoko rya Nyarugenge riherereye mu mujyi wa Kigali, umusore yikoreye imineke rwose, umupira w'umutuku ugakapu abikamo amafaranga yakataje bisa naho ayishyiriye umuntu runaka, inyuma urahabona n'abandi benshi barikuva kwihahira rwose.

Hano hari mu isoko nk'uko ubibona harimo ibintu byinshi ibitunguru by'ibibabi, ndetse n'iby'ibijumba ku babizi. Hakurya urahabona nyanya, insenda, amashu, iminzani bapimiraho, ndetse n'intoryi harimo ababyeyi benshi cyane ko nabo baba baje gushaka ibyo kurya kugira ngo batahe bameze neza.

Aba babyeyi rero nkuko ubabona nabo baje kwishakira umugati. Bamwe bafite ibishyimbo, imineke iri mumabase myinshi cyane, hakurya urahabona abanyonzi, ndetse n'ahantu bagurisha ibindi ibintu bitandukanye, wazamuka ruguru urahabona ko hari inzu wagira ngo ntago zirozwe.

Utu ni utuntu rero ubona ko uyu wabikoze yihangiye imirimo imitako ushobora gushira munzu aboha ibiseke ndetse n'ibind byinshi bitandukanye gusa bishingiye ku muco wa kinyarwanda ku bantu babizi, rero nawe urabonako ntabwo yagira ikibazo runaka cy'ideni yafashe ahantu ngo abure kutaryishyura ntiyabura kwishyura amafaranga y'ishuri y'umwana.

Aba bategarugori nk'uko ubibona, ni benshi umwe ari gucuruza insenda z'icyatsi, undi acuruza iz'umutuku, undi iz'umuhondo, urabona ko bafite n'utwo bari gupimisha, mu Kinyarwanda bazita kakamurari. Hakurya urahabona n'intoryi, ibitoki ndetse n'abandi benshi cyane ushobora kuza nawe ukagura.

Aha rero ni ahantu ushobora kuza kugurira ibikoresho gakondo cyangwa nyarwanda bigiye biboshywe n'abantu bakoresheje intoki zabo. Nkuko ubibona harimo ibiseke, udushakoshi, udukapu ariko harimo n'imyenda nkuko ubibona rwose imipira, amakote n'ibindi.

Gucuruza ni byiza cyane nk'uko ubibona hano, batanga imbuto, ibitenge, ingofero ndetse n'ibindi byinshi. Urabona ko hari n'ababyeyi bahetse abana babo bari baje ku isoko kureba ibyo babagurira. Harimo n'amabasi n'intebe zo kwicararaho igihe wumva urushye.

Aha n'ahantu rero nkuko ubibona ni heza cyane harimo bambaye ingofero z'umuhondo imipira y'imyeru ndetse n'undi wicaye imbere hari mudasobwa ubona ko abandi bitabiriye igikorwa kirikuhabera gitandukanye ariko uhaza ufite ibibazo bakabikemura.

Uyu mukobwa rero mwiza nuko wambaye umupira w'umuhondo uriho amagambo yandikishije ubururu kimwe n'ikora ateze akantu mu mutwe afite telefone ebyiri mu ntoki zisa naho ari kwerekana n'umugabo wahakoraga wihangayikiye nawe ari kuri telefone yicaye kuri moto zikomoka kuri peteroli.

Nk'uko ubibona umwambaro mwiza w'umuhondo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye imbere yabo hari mudasobwa, amakayi yanditseho mobilo mani imbere yabo hari abantu ubona ko baje gushaka ubufasha runaka nyine kugira ngo babwire ibibazo bafite babikemure.

Umusore ubonako yihangiye imirimo rwose yambaye agapira k'umutuku, kareba umugabo yanditse kokakola, ari mu kazu keza urabona ko gakeye mbere ye hari undi uri kumubaza amagambo runaka, bitewe n'ikibazo afite yaraje ngo bakimukemurire. Hakurya urahabona ni ku muhanda hariho abanyonzi n'imodoka.

Aha ni mu maduka makuru ariko usanga ibintu byaho ariho biba bihendutse mo ukuntu. Uyu mukobwa yambaye umwenda w'akazi, hakurya hari ahantu hari ikirango cyanditseho "Sawa siti", hasi urabona ko hari undi nawe uri kumwereka ko yishyuye akoresheje ikoranabuhanga, hariya ushobora gusangamo ibintu bitandukanye birimo ibiribwa, ibinyobwa, n'ibindi.

Akazu ubona ko kari mu mabara y'umutuku, hairiho ikirango ha kiriho umwari wishimiye ndetse amagambo yandikishije ibara ry'umweru n'umuhonzi, urabona bacuzamo bombo n'ibindi bintu bitandukanye, hakurya hari inzu ubona ko nazo ari iz'ubucuruzi ndetse n'ibiti byiza, hejuru urabona ikirere kirimo ubururuki bukeya n'uducu.

Aha rero ni uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kwishyura wifashishije telefone yawe ibi bihabwa abacuruzi ndetse n'abandi bantu bafite ibigo by'imari bikora ibindi bintu, rero ni mu kapapuro kabonetse kugikuta, ikirango cy'umuhondo ndetse n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara hariho imibare ishobora gukanda.

Ubu ni uburyo ushobora kwishyu ukoresha ikoranabuhanga nk'uko ubibona kuri ako gakarita kari mu ibara ry'umuhondo, hariho imyirondoro y'umucuruzi kuko ni bo bakunda kugahabwa cyane, ushobora kuza rero ufite amafaranga kuri telefone yawe ukayakanda ugashyiramo ibyo wuzuza byose, ugashyiramo umubare w'ayo ugiye kwishyura ugahita uyamuhereza nta giceri na kimwe ukatwa.

Ni uko babanayo nawe muntu yishingiye imirimo runaka yo gucuruza amayinite kandi bigaburarira benshi bituma yishyura umwana ishuri akishyura inzu ye babamo ndetse nuko ubibona yambaye umupira w'umweru abana hakurya beza cyane ubonako bafite ibindi bintu bari kuganiraho nyine n'abandi bantu bari kwambuka umuhanda.

Niba ucuruza ni byiza ko nawe wajya ugira ahantu bakwishyirarira ku buryo umuntu ntayo bamukata n'amakeya, ibyo rero bituma abakiriya baza, nk'uko ubibona aka kapapuro k'umuhondo, kariho amabara yandikishije umukara, imibare iriho yose wowe upfa gukanda gusa ukayishyiramo bagahita baguha imyirondoro ya nyir'ibicuruzwa wari uguze ukatahita umwishyura.

Rero nk'uko ubibona harakeye amabara meza cyane rwose yanditse momo y'umuhondo ndetse n'umukara wivanzemo tw'umweru ibyuma bihashinze, hirya urahabona utubaho ndetse n'udutara dukeya tumurika igihe wenda bwije cyangwa hatabona.

Akazu keza ubonako kubabatse mu mbaho rwose, kariho imitako y'umukara n'umweru, gateretse ahantu hari amabuye inyuma yaho hari ibyatsi, harimo abari ndetse n'undi musore umwe inyuma ye hari amazi ndetse naho agize icyaka ashobora guhita ayankwa, karafunguye ushobora kubagana ukabaza ibyo ushaka bakabigusubiza.

Kugura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane kandi birafasha, bituma umuntu wese yisanzura akabaho neza. Nk'uko mubibona rero hano hari telefone na mudasobwa byerekana ko aribyo ushobora kwifashisha ikaramu ndetse n'andi magambo yanditseho.

Ni byiza guhaha wifashishije ikoranabuhanga, nk'uko ubibona uyu mu umugabo wambaye umwenda w'akazi ndetse n'ingofero imurinda ibyago igihe akoze impanuka, ariguhereza agakarito kajemo ibyo umuntu yari yatumije, ageze ku gipangu ke arahagarara arakomanga niko gusohoka abikura mo arabimuha.

Hano rero ni ahantu ushobora kugurira ibintu runaka bakabikuzanira uko ubibona bitwa akarwa hariho akantu kameze nk'akamodoka rero nakererekana ko bishobora kukugeraho wibereye mu rugo upfa kuba wowe wafashe mudasobwa yawe cyangwa telefone ukajya ukabasura ukareba.

Aha ni ahantu ushobora kugurira ikoranabuhanga, nkuko ubibona ushobora kuguriramo utuntu two kwambara ku maboko, two kwambara mu matwi, amatara yizengurutsa, utwo gukomeza intoki zawe, ndetse n'ibindi byinshi. Ushobora no kubitumiza wibereye mu murwa bikakugeraho, upfa kuba ufite mudasobwa cya telefone.

Aha ni ahantu heze rero ushobora kugura ukoresheje ikoranabuhanga, kuko ari ibintu bitabara buri muntu wese n'utashye unaniwe ntabashe guteka cyangwa ngo abashe kujya guhaha ibintu runaka ku isoko, biramufasha cyane.

Guhaha wiifshishije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko birafasha, nk'uko ubona iuyu mwari nawe yambaye ibintu bimwumvisha indirimbo mu matwi imisatsi smyiza irambuye, agapira kamufashe ndetse n'ipantaro, ari kuri telefone bisa nkaho nawe arimo arabitumiza yibereye mu rugo nk'uko iki kirango kibyekana.

Umugore wicaye ku ntebe y'umweru , umugore wambaye ikanzu y'ubururu ndetse na marinete, kuruhande rwe hariho umutako uhagaze, ugaragaza igishushanyo cy'umugore wikoreye agaseke ku mutwe, kuruhande hari agatako gafite akantu k'umuhondo.

Kugura ukoresheje ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko, biragufasha, bishobara kugutabara igihe utashye unaniwe cyangwa wumva warushye, udashobora kujya ku isoko kugura ibiryo ngo uteke, ushobora kujyaho rero nawe ukoresheje terefone yawe cyangwa mudasobwa, wabishima ugahita ubigura rwose bikakugeraho.

Ubere mu bwongereza cyane komeza gufasha no kubona umusore wambaye imyenda yubururu n'ingofero ateruye ikarito ari mu modoka yari abizanye kuba babitumije nyine, rero nawe nakugira inama, hano imyirondoro iki ikirango cyabo, nomero zabo za telefone cyangwa imbuga nkoranyambaga zabo bakoresha.

Aha ni ahantu ushobora kuza ukagura ibintu wifashishije ikoranabuhanga nk'uko ubibona hari ibintu bitandukanye, telefone, amasakoshi, imisatsi y'abagore, televiziyo n'ibindi byinshi ushobora gukenera mu buzima bwawe bwa buri munsi hariho n'amafaranga hariho n'amafaranga rwose nawe wabikoresha.

Gutuma ibintu wifashishije ikoranabuhanga biragufasha cyane nkuko ubibona hari umusore rwose wambaye ibintu bimwumvisha indirimbo mu matwi yiwe ndetse hasi urabona ko afite ikintu ari gufata hirya gatoya hari ifiriti, inkoko, imigati ndetse n'ibindi ubona ko biryoshye byose ubishyize mu kanwa byakuryohera.

Hano rero ni heza hari amakaro meza abonerana rwose, igitanda kiri ku uburingiti bw'umutuku gikoze neza, urahabona ibirahure ushobora kwireberamo igihe ubyutse n'ahandi ushobora gutereka udukoresho twawe, iherereye hano Kacyiru rero muri Kigali ushobora ukaza ukishyura amadorali magana atanu ubwo ni agera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi nka magana inani by'amanyarwanda ku kwezi.

Aha rero ni ahantu ushobora kuza ukibera, igihe gito cyangwa kinini nk'uko ubibona hari intebe nziza cyane, ameza, televiziyo, hakurya hari imitako ndetse n'akantu kaguhuha rwose, igihe wumva ushyushye, ni Kabeza rero waza ukaharangura nawe ukajya wiberamo.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ukibera igihe gito cyangwa kinini nk'uko ubibona rwose hari rindobo, ijerekani aha ni mu gikoni biragaragara. Ni kabeza rero i Kigali ugomba kujya wishyura amadorari magana atanu mirongo itanu buri kwezi, ubwo ni hafi igihumbi magana arindwi gutyo.

Hubatse mu buryo bw'igisharagati, hicayemo abasore n'inkumi, harimo n'abandi bari kugenda batambuka bigaragara ko ari mu mujyi ahantu muri Kigali.

Iki rero ni igipangu urabona ko imbere y'aho hariho amabuye meza cyane wakinjiramo, harimo umwanya ushobora gushyiramo imodoka yawe, kiratatse harimo udutara twaka rwose urabibona ko hasa neza, ikirere kirimo ibicu by'umweru byinshi ubururu bukeya, ushobora kuyigurira nawe kuri miliyoni ijana na mirongo ine.

Hariya ni ahantu ushobora kuza ukaryama cyangwa ukaruhukira bitewe n'ahantu uvuye wenda hanze cyangwa mubindi bihugu uraza rero urahashaka haherereye kibagabaga muri Kigali rwose nawe waza ukahareba hari uburiri bwiza udutara twa n'ijoro rwose.

Aha hantu rero harakodeshwa cyangwa hakanagurishwa biterwa n'ubushobozi bwawe ufite. Nk'ubibona hakurya hari umusore uri kwinjira wambaye ishati y'umweru bisa naho aje kwerekana uko biba byifasha. Hariya ni mu gikoni hano rero urabona iyo uzamutsemo uba ugiye mu byumba cyangwa ahandi runaka haririmo udutara twiza. Rero ni amadorari ibihumbi bibiri ku kwezi

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ukareba inzu wayigushima ukayigura cyangwa ukayikodesha biterwa nk'uku nguku uyibona iyi ngiyi inzugi irimo nziza cyane zubatse neza amakaro ndetse hirya urahabona udutara ducanye rwose n'ukarabiro, ku bantu bayigura rwose ni miliyoni mirongo ikenda n'eshanu gusa iri hano i Kigali.

Hano rero ni ahantu ushobora kuruhukira igihe uvuye nko mu mahanga cyangwa ahandi hantu runaka, uraza harimo uburiri bwiza rwose urabibona, imisego, amadirishya ushobora kureberamo ibiti biri hanze amalido yo gukinga aho ngaho kugirango urumuri rutaza ushobora kubahobona rero ku madorari igihumbi magana atanu ku kwezi, hano ni Kacyiru muri Kigali.

Ibiti ni byiza cyane kuko bidufasha gukurura imvura bigatangira umuyaga ndetse n'ibindi byinshi, hano urahabona utwatsi, hakurya hari imbaho n'igipangu. Ikirere cyiza cyane, urabona ko kirimo ubururu bucyeya ndetse n'ibicu byinshi.

Aha nk'uko ubibona haracuruzwa rwose cyangwa harakodeshwa biterwa hari udutebe twiza cyane imitako ihari indabyo hakurya urahabona igikoni, aho kurira, uburiri bwo kuryamaho ndetse na televiziyo ushobora kureberaho amakuru.

Aha rero nawe n'ahantu ushobora ku ukaba igihe gito cyangwa kinini nkuko ubibona, hari intebe nziza icyo kureberaho indirimbo, filime, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ubwo sinakubwira igitanda rero ni amadorari igihumbi magana atanu ku kwezi.

Ni byiza ko niba nta bushobozi bwo kugura inzu ufite wajya uyikodesha ukaba wiberamo bitewe n'akazi ukora aho kari, ntabwo ari ngombwa kugenda ngo ufate iya menshi kandi uzi ko nawe utabasha kwiyishyura. Iyi rero urabona harimo amabuye meza irakodeshwa ibihumbi magana abiri rwose wajya uyabona ku kwezi ukajyayo ukayibamo.

Aha rero ni inzu zikodeshwa zishobora kuzugararamo ijoro rimwe abiri, atatu, kugera ku kwezi. Nk'uko ubibona hari kwaka harakeye imiryango myiza cyane, rero ziherereye Kibagabaga ibihumbi magana atatu kuko zifite ubwogero bubiri n'ibyumba bibiri byo kuraramo.

Inzu nziza ubona ko icyeye nta kibazo rwose. Hakurya urahabona ku gice cya kabiri, kuko ifite ibice bibiri , wambaye umupira w'umweru. Har'ibirahure byiza cyane ugarutse ku gice cya kabiri, hejuru urabona ko hari igihu cyiza cyane. Rero iri kugurishwa Kigali Kimironko, miliyoni mirongo icyenda n'eshanu. Ariko mukabiganiraho, ariko ntago aricyo giciro fatizo.

Hubatse mu buryo bw'igisharagati, hicayemo abasore n'inkumi, harimo n'abandi bari kugenda batambuka bigaragara ko ari mu mujyi ahantu muri Kigali.

Aha ni ahantu ushobora kuza ugaharira ibintu byinshi bitandukanye birimo; ibishyimbo, kawunga, n'ibindi bishoboraga amafu y'igikomaho ibi byose ushobora kuza wabisangamo birimo amavuta ndetse n'ibindi byinshi kandi urabanako hagiye hariho n'ibiciro.

Uyu mwana mwiza rero ubona ko yambaye agapira k'umweru ipantaro k'umukara, inyuma urabona ko yishyize telefone mu mufuka, arimo aramanura amacupa arimo ibintu runaka yashakaga, hasi hari mayonezi ndetse wareba hakurya hari n'ibindi byinshi bitandukanye biri ku murongo ushobora kuza ukirebera bikeye.

Aha rero ni mu iduka ushobora kuza ukagura ibintu bitandukanye nk'uko ubibona rwose, birapanze kumurongo bifite isuku, uyu mugabo wambaye imyenda y'imikara nawe rero yaraje kubireba hano usangamo fanta, amazi, ji, ndeste nibindi byinshi bitandukanye.

Aha rero nk'uko ubibona bose baje guhaha hari umubyeyi uhetse igikapu, undi mugabo usa nkuwaje kuhahahira undi nawe ari gutoranranya ibyo ashaka ariko urabona ko bari kureba ikote bari bushime ndetse na karuvati aha rero hitwa muri famina maze ugahaha.

Hano urabona ko hari kumurongo rwose umuntu wahubatseho uku yari yabipanze, amakaro y'umukara atonze umurongo ndetse n'ay'umweru, abantu benshi cyane ubona ko nabo babyitabiriye baje kureba ibintu bibera hano rwose.

Hano rero n'ahantu ushobora kuza ukagurira ibikoresho bitandukanye mu iduka nk'uko ubibona harimo ababyeyi benshi bari baje guhaha ndetse n'abana babo imbere urahabona na televiziyo barekaniraho amashusho n'ibindi bintu bari kwamamaza ,uyu musore urabona ko yunamye afite ibyo ari gushyiramo hariya ndetse wareba hakurya urabona ko ari ibintu bikeye rwose hariyo n'amatara meza.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza ukagurira ibintu bitandukanye nkuko ubibona hakurya, harimo amatara y'ubwoko bwose ushobora kuza ukamanika iwawe mu nzu. Niba ndeba neza aya ngaya arimo umweru n'ubururu ndetse n'ibindi, hakurya urahabona umusore rwose wicaye kuri mudasobwa abategereje ko uza guhaha.

Iri ni soko rero nawe ushobora kuza ugahahiramo, nk'uko ubibona harakeye harimo bya bintu bizamura abantu binjiramo igihe batabasha gukoresha amasikariye amwe bazamukiraho, ahandi urahabona abandi baje guhaha barimo abagore, abagabo ndetse n'ibindi byinshi.

Ushobora kuza kuhahahira ibintu bitandukanye kubibona hano hari inzoga ushobora kugendana harimo zishobora guhitamo akanya hakurya urahabona ibindi bintu gusa nkakubita na none hirya aho gatoya urahabona mudasobwa bigaragara ko ari aho bishyura ugeze.

Aha rero ubona ni mu isoko rwagati, harimo ahantu hatandukanye hasi urahabonamo amakanzu, ndetse hirya urahabona ibindi bikorwa remezo ushobora kuza kimwe wakisangamo ukakijyamo, biterwa rwose cyangwa nawe ukaza ugafata, nk'urugero ugacuruza.

Aba babyeyi babona ko baseka bishimye basa n'abakuze hirya hari undi uri kwinanura harimo n'umusore umwe bisa naho baje kwaka ibintu runaka tutaramenya ariko ni niba byiza tukaganiriza natwe twari duhari wabibabwira yigiraho in ndaho y'icyatsi rero ndetse n'ibindi byinshi n'indabyo.

Ugize ejo hezo ukazigamira umwana wawe ku buryo ushobora kugira ikibazo, yamafaranga bakayamuhereza cyangwa se waba uri umusore warabikoze hakiri kare, ukagenda bagahita bayaguhereza ushobora kubaka nibwo buryo bashyizeho. Urabona ko hano rero ni urubyiruko ndetse n'abandi bari kubyamamaza rwose bari kumwe n'inzego z'umutekano niba ndi kureba neza.

Amakaro meza ubona ko akeye, intebe nziza zizengurutsa ndetse n'izindi, mudasobwa ndetse n'ibindi bintu bisohora impapuro urabona ko hakurya hariho abantu benshi bisa nk'aho haribyo bitabiriye baje kumva ibiganiro biri kuhabera urabona ko birimo urubyiruko.

Aha ni ahantu rero ushobora kuza kwivuza cyangwa ukavuza umwana wawe igihe wahuye n'ibibazo runaka kuko birafasha. Ningombwa kwishyura mituweri hakiri kare nk'uko ubibona ababyeyi bahetse umwana ndetse n'agatambaro ku mwana amutwikirije, hirya hari aho bashyira imyanda. Arimo arabagana kugira ngo bamufashe.

Aha rero urabona ko harimo abantu bakuze ndetse n'abato bafite udukayi bamwe, ababyeyi bakenyeye ibitenge, hakurya hari inzugi ndetse n'amadirishya n'utundi tuntu twinjiza umuyaga mo imbere nyine kubera ko wagira ngo baje kwitabira ikintu runaka.

Abantu benshi batandukanye bamwe baricaye abandi barahagaze umwe muri bo afite ibendera rifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Ahantu heza rero ushobora kuza guhahira ibintu bitandukanye birimo biswi, ibyo kurya fanta, ji ndetse n'ibindi nk'uko ubibona hano harakeye cyane harimo udutara turi kwaka biri ku murongo nta kintu waburamo wagishashatse.

Aha hantu ni ahantu rero ushobora kuza guhahira ibintu bitandukanye ibiryo, amazi, fanta ibisembuye ndetse n'ibidasembuye ukishyura ukoresheje ikoranabuhanga, ndetse ni naho biba bihendutse kuruta ahandi hose, uzagerageze ujyemo urebe nawe uzambwira.

Hano rero bacuruza ibintu byinshi bitandukanye bishobora kugugwa neza birimo, ji za pome hari umubyeyi mwiza cyane akarikumanura kamwe hakugeraho na fanta z'ubwoko bwose ushobora kuza nawe ukigurira wabasha ukamara rwose ntakibazo.

Aha rero ni ahantu ushobora guhahira ibintu bitandukanye, birimo amavuta, nk'uko ubibona, amakaroni, umunyu, ubunyobwa bwo guhekenya ndetse n'ibindi bitandukanye. Urabona uyu mwali rero afite akantu ari gusunika, agenda areba ibyo ashaka ashyiramo.

Aha ni mu muhanda. Harimo imodoka nini ya bisi, itwarira abantu hamwe na ritiko. Hariho n'umugenzi utwaye umuzigo uremereye cyane. Arimo aragenda mu cyerekezo kimwe n'imodoka ya bisi. Hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire.

Aha rero ni mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye ariko nk'uko ubireba harimo ji ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Hakurya urahabona amata waha abana bawe bakabyibuha ndetse nk'uko ushobora gusanga hari n'imigati hirya. Ibi ni byo turi kubasha kubona ariko nk'uko ubibona biri ku murongo bifite n'isuku.

Amaduka akomeye niyo meza cyane, nakugira inama yo kuza kuyahahiramo, kuko hari igihe usanga ibintu byaba bihendutse kurusha iby'ahandi, nkuko ubibona harimo ibirungo byiza cyane bitatse amaji, imigati, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, wasangamo n'amafanta rwose.